Iki ni ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu，hakaba harimo uduhanda twubakishijwe amapave，hakaba harimo ikibuga cya basikete，hakaba hamanitsemo amadarapo abiri，iry 'u Rwanda n'irya Isitafurika.

Iki ni ikibuga cyo mu mashuri abanza, kikaba kirimo ibikinisho by'abana birimo aho barira umunyenga, indege imodoka n'ibindi.

Aba ni itsinda ry'abanyeshuri bigaragara ko basuye umuntu cyangwa se bamuherekeje mu birori runaka bakaba ari itsinda ry'abakobwa n'abahungu.

Aba ni abanyeshuri bari mu ishuri bakaba bari kwiga. Buri ntebe yicaweho n'abantu batatu, imbere yabo hari mwarimu ari uri kubigisha, akaba arimo kubaza abanyeshuri.

Uyu ni umukanishi wambaye isarubete y'akazi, akaba arimo gukanika iyi mashini, bigaragara ko ifite ikibazo akaba arimo kuyiha ubuzima.

Aba ni abanyeshuri bari mw'ishuri bakaba bari kumwe na mwarimu wabo, ariko bigisha. Uyu munyeshuri imbere ye hari imashini ya kompiyuta

Aba ni abanyeshuri biga ubwubatsi bigaragara ko bari muri Pulatike cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyo biga, bakaba bafite a amanivo n'amakamba n'impambo barimo gupima ikibanza.